Ubuhinzi ni bwiza cane kuko budufatiye runini kandi bibaga byiza iyo turi gutera umuti iyo twifashishije imashini zifuhiraga umuti ahantu hose kandi ikaba ikoraga vuba ahantu hanini kurusha uko umuntu yagutera yifashishije amaboko ge.

Ifumbire yifashishwaga mu buhinzi butandukanye nk'imborera kugira ngo imyaka izere neza, aho igomba gushyirwa ahantu ikabanza yabora kugira ngo izabashe gutanga umusaruro gushimishije ku bimera izashirwaho.

Ubuhinzi ni bwiza mu guhinga inyanya kandi tukazitera imiti twifashishije ipombo zabugenewe kugira ngo zisakazemo ahantu hose umuti maze udukoko twazangiza tukabasha gupfa maze zikera zigatanga umusaruro gushimishije.

Kurya neza ni byiza nko kurya amafi gavuye mu mazi, bitumaga tubonamo intungamubiri, kuko amafi gadahendaga cane kandi tukagashira ku masahani gwogeje neza, tukagarya tukabonamo intungamubiri nziza, zitumaga umubiri gwacu gwuba gwutoshe.

Gukora ubworozi ni ingirakamaro, nko gukora ubworozi bw'amafi aho babukorera mu ngezi, aho bifashisha ubwato bakabuzirikaho ibiti ndetse n'inshundura, kugira ngo bafate amafi maze bajye bayagurisha babone umusaruro, maze bayifashishe mu gukora ibindi bikorwa bibateza imbere, aho bikunda gukorerwa ku nkengero z'ikiyaga.

Ibyuzi byororegwagamo amafi, ndetse n'amahera ndetse bigatanga n'amazi afasha umuceri gukura neza, Ndetse n'ibiti bihegereye bikabona ago mazi bigakura neza, kandi bitumaga n'ikirere kimera neza.

Uburobyi ni kimwe mu bintu bitezaga abaturage imbere bakora umwuga guburobyi mu mazi kandi bakorera mu makoperative gabo kugira ngo bazamurane nta we ukora ukwe.

Ubworozi ni ingirakamaro nko gukora ubworozi bw'amafi, aho babwororera mu mazi yamara gukura bakayaroba bakoresheje inshundura maze bakayagurisha, ayandi bakayarya kugira ngo babone intungamubiri nziza, abayaguze n'abo batanga amafaranga ku bayarobye maze n'abo bakiteza imbere bakorwa ibindi bikorwa bibateza imbere.

Gukora ubworozi ni ingirakamaro, nko gucukura ibyuzi mu gishanga bijyamo amazi maze tukabyororeramo amafi kugira ngo azaduteze imbere Kandi hariya hakaba hakikijwe n'ibiti bituma amazing adakama.

Gutera ibiti ni ingirakamaro, kuko iyo tubiteye tukabireka bigakura neza bituma tubona umwuka mwiza guhumeka kandi ibiti bikurura imvura, igatuma tuyibona maze ikameza imyaka yacu kandi bituma n'inyamaswa zimwe zibona aho kuba.

Kugira ibyanya byahariwe amashyamba ni ingirakamaro kuko bitumaga inyoni zibona aho zarika kandi n'iyo dukeneye gusarura amashamba gaze, niho tubonaga imbaho twifashishaga turi kubaka ibikorwaremezo.

Ibiti ni ingirakamaro ndetse n'insina, aho nk'igiti cy'avoka kiduha imbuto z'avoka, duca iyo zimaze kwera, tukazitara zigashya, tukazirya zimwe tukazijyana ku isoko, maze abazikeneye bakaduha amafaranga twifashisha tugakora ibindi bikorwa bitandukanye biduteza imbere.

Ibimera bitandukanye nk'insina, amateke, marakuja, ibyatsi by'amatungo aho bitumaga haza akayaga, ndetse n'amahumbezi ahantu biri, ndetse ibyo byatsi bimwe na bimwe tubyahiriraga amatungo gacu kugira ngo gabeho neza, kazaduhe umusaruro.

Insina ziduhaga ibitoki ndetse n' amakoma twifashishaga turi gukama, kandi zegereye iwacu mu rugo hubatse neza, hari igipangu c'amatafari gahiye, ndetse n'inzu ifite amabati g'umutuku, isize n'amarangi g'umweru harimo n'igiti c'avoka.

igitsinsi c'insina giteye mu murima guhinzwe neza, kikaba kiri inyuma y'inzu ndetse hakaba hakikijwe n'ibidodoki biri ku ruhande ndetse n'ibiti by'ibiko.

Ibiti ni byiza kuko bidufashaga kubona umwuka duhumeka, nk'ibiko kandi bitumaga ibihingwa bimwe bimwe na bimwe bizamukiramo bikera neza, nk'ibidodoki kuko bivaho imboga zo kurya.

Ubuhinzi nibwiza nko guhinga ibirayi bitumaga twiteza imbere, aho tuba tugomba kubibagarira tukabishyiraho ifumbire, kugira bizere biduhe umusaruro gushimishije.

Ubuhinzi ni bwiza nko guhinga karoti aho tuba tugomba kuzibagara tugakuramo ibyatsi byose, kugira ngo zizaduhe umusaruro mwiza, nituzijyana ku isoko tuzabonemo amafaranga twifashishaga dukora ibindi bikorwa bitandukanye, bidutezaga imbere.

Ubuhinzi ni bwiza, nk'ubuhinzi bw'ibirayi biteye neza bitandukanye kandi bishyizweho ifumbire kugirango bikure neza bizatange umusaruro mwiza, nyirabyo nawe azunguke kubera ko azaba yarashoye imbuto n'ifumbire ndetse n'abahinzi.

Amajeri nk'ibinyamisogwe gateye umurima kandi gashingiriwe n'ibishingirizo kugira ngo gazamuke neza gazatange umusaruro mwiza bityo uwa gahinze azabone umusaruro mwiza azajana ku isoko abone amafaranga gatubutse.

Ubuhinzi ni ingirakamaro, nko guhinga urutoki aho insina zikura zikazana ibitoki byamara gukura tukabica, bimwe tukabigurisha ibindi tukabirya, maze tukabonamo amafaranga twifashisha dukora ibindi bikorwa biduteza imbere.

Guhinga ni inkingi y'iterambere nko guhinga ibirayi, aho tugomba kubifumbira maze bigakura neza, kugira ngo bizaduhe umusaruro mwinshi maze tuzabijane ku masoko tubonemo amafaranga, go kwifashisha dukora ibindi bikogwa. Ibindi tukabirya maze tukabaho neza.

Amajeri n'ibigori ni ibihingwa ngandurarugo aho tubihingaga mu mirima zacu nk'ibigori bimaze kwera tubisaruraga byararebye hasi kugira ngo bizabe byarakomeye aho ku ruhande habaga hateyeho ibiti bivangwaga n'imyaka kandi iyo tumaze gusarura amajeri tugakoraho tukagagurisha ibyatsi tukabiha amatungo gacu kugira ngo gakure kazaduhe umusaruro.

Ubuhinzi ni bwiza nko guhinga ibitunguru bitumaga tubona amafaranga iyo tubijanye ku isoko abatabifite bakabitugurira kandi uwabihinze akabona amafaranga azamufasha gukora ibindi biri imbere maze nawe akiteza imbere.

Ibigori bikiri bito aho bari kubibagarira bashiramo n'ifumbire kugira ngo bizamuke neza, bizatange umusaruro gushimishije, bikaba biteye mu murima munini wahurijwe hamwe.

Ubutaka bwahurijwe hamwe bakabuhingaho ibigori aho biri hafi kwera kugira ngo bizabahe umusaruro mwiza gushimishije kandi bikaba bikikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti bitangaga umwuka mwiza.

Ibirayi ni igihingwa ngandurarugo aho tukiryaga kandi tukanagikuramo imbuto iyo twakibitse neza, ariyo mpamvu tugomba kukibungabunga tukakibika neza kugira ngo nitwongera guhinga tuzagitere kitarangiritse maze kizaduhe umusaruro gushimishije.

Ubuhinzi ni bwiza nko guhinga karoti aho tuba tugomba kuzisarura zeze neza kugira ngo zivemo umusaruro gushimishije, maze tuzigurishe ku isoko tubonemo amafaranga twifashishaga mu kwiteza imbere, izindi tuzijye mu mijyango zacu.

Imyumbati ni igihingwa ciza ngandurarugo aho tuzikuraga mu mirima zimaze kwera tukazigurisha tukabona amafaranga izindi tukazijana mungo zacu tukaziteka tukazijya ndetse n'ibiti zivuyeho dusoromagaho isombe tukayiteka tuyijya ibiti nabyo tukabitera bikazazaho izindi myumbati.

Ubucuruzi ni bwiza nko gucuruza imbuto abaturage bakundaga guhinga nk'ibishimbo ,ibigori, soya, amasaka, aho bazaga kubigura kugira ngo baje kubitera baziteze imbere, aho tubikusanyirizaga hamwe tukabishira mu mifuka zimeze neza kugira ngo nibaza kubigura bazasange bitarangiritse.

Isoko ryahurijwemo ibitoki kugira ngo ababicuruzaga ndetse n'abazaga kubigura babone aho babigurira ku buryo bworoshye, kandi binabafashe kubona amafaranga abafasha kugura ibindi bintu badafite, kandi bikaba bigomba gutondekwa neza kugira ngo bitangirika.

Isoko ryubatse neza ni ingirakamaro kuko tubicururizagamo ibirayi, tuba twazanye mu m'ifuka, kandi byeze neza kuko abaguzi batabifite, bazaga kutugurira natwe tukabona amafaranga bifashisha mu bindi bikogwa byacu.

Guhinga ni byiza, nko guhinga ibishyimbo tukabishingiriza ibishingirizo bizazamukaho neza, kandi tugateraho n'ubwatsi bagaburira amatungo yacu, kandi iyo myaka tuba twarayihingishije isuka kuko ari yo dukunda gukoresha ino aha iwacu, kandi biba byiza iyo hegereye mu rugo kuko bituma tubyitaho cyane.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga imyumbati tukazibagarira zigakura neza, bitumaga iyo zeze tubona izo tujya n'izo tugurisha kandi imyumbati zivaho amababi dutekagamo isombe.

Ubuhinzi ni bwiza nko guhinga umuceri. Aho umuhinzi aba agomba kugutera mu gishanga, kandi gifite amazi kugira ngo guzabashe gukura neza gutange umusaruro gushimishije.

Imbuto ninziza nko kurya urubuto rwavoka, aho turukuraga mu giti rumaze kwera tukaruhanura tukarutara rugasha neza maze tukarurya kuko rufite, intungamubiri nyinshi umubiri gwacu gukenera.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga igihingwa cy'ibigori ku butaka bunini, aho tugomba kubibagara neza tukabishyiraho ifumbire yabugenewe kugira ngo bikure bizaduhe umusaruro ushimishije maze tuziteze imbere mu bindi bikorwa bitandukanye kandi tuboneho n'ibyo kurya n'ibyo gusagurira amasoko.

Imbuto ni nziza, aho nk' amaronji tugajyaga kugira ngo tubonemo intungamubiri zifasha umubiri gwacu, agandi tukagajana ku isoko kugira ngo tubonemo amafaranga, abatagafite bagagure na bo baje kugajya na bo babone intungamubiri.

Imbuto ni nziza ku mubiri wacu, nk'amapera, aho tuyaca mu biti, tukayashyira mu ndobo cyangwa mu mabasi tukayajyana ku isoko twayogeje, kugira ngo abarayagura atabatera uburwayi, natwe tukabona amafaranga ayavuyemo, maze tukiteza imbere.

Ibigori ni igihingwa cyiza, gihingwa ahantu hahinzwe neza, kugira ngo bikure neza kandi bigashyirwaho ifumbire, bikazamuka bifite ibibabi byiza, ku buryo bishobora no guheka ibigori bigera kuri bibiri, kugira ngo bizamure umusaruro w'umuhinzi, na we abashe kwiteza imbere, yivane mu bukene.

Ubuhinzi ni bwiza nko guhinga ibirayi, tubyitaho tubibagarira tukanabishyiraho ifumbire kugira ngo bikure neza kandi tukanabitera umuti, bikaduha umusaruro gushimishije.

Amaterasi g'indinganire aho bari guteramo ibirayi, bamwe bafukura imyobo undi agashyiramo ifumbire kandi gateyeho ubwatsi bwegeranye n'urugo rusakaje amategura rukikijwe n'ibiti bizana akayaga ndetse n'uruzitiro.

Kugira amakusanyirizo g'imyaka ni byiza nko kugira ikusanyirizo ry'imiceri ,aho tugushiraga mu mifuka zabugenewe kandi tukazifunga kugira ngo gutameneka, ndetse hakaba hubakiye neza kandi hasakaye, abazaza kugushaka bakagubona byoroshe kandi gutarangiritse.

Gukorera hamwe bibaga byiza nk'iyo abaturage bahuriye ku muganda bagatera ibiti bitandukanye, kugira ngo barinde ibidukikije batera ibiti ku bwinshi, kuko bikururaga imvura kandi bikanatuma tubona umwuka mwiza gwo guhumeka gwusukuye.

Guhinga ni ingirakamaro， nko guhinga ibirayi， iyo bimaze kwera turabisarura， tukabipakira mu mifuka itandukanye，maze tukabijyana ku isoko，tukabigurisha， maze ababikeneye bakaduha amafaranga twifashisha， tugakora ibindi bikorwa biduteza imbere. Ibindi tukabijyana mu ngo zacu tukabiteka， tukabirya，maze tugakura neza.

Icayi ni igihingwa ngengabukungu aho tugiteraga ku butaka bunini twarabuhuje tukakibagara camara gukura tukagisoroma tukakijana ku nganda aho zigitunganyagamo icayi gikoze neza maze abagikeneye bakakigura kandi natwe tugisoromaga tukabona amafaranga gadutezaga imbere.

Guhinga imbuto ni byiza nko guhinga intojyi canga se pavoro aho tuzijanaga mu masoko tuzitwaye mu tudobo twabugenewe kugira ngo zitangirika aho zivangwaga mu biryo kugira ngo bihumure neza kandi zikavamo n'intungamubiri iyo twazigurishije tubonagamo amafaranga twifashishaga yo gukora ibindi bikorwa bidutezaga imbere.

Imbuto ni ingirakamaro nko gutera igiti cy'amapera, aho kizana imbuto turya ndetse cyamara kwera tuzijyana no ku isoko tukazigurisha, abazikeneye bakaduha amafaranga tukayifashisha mu bindi bikorwa biduteza imbere, kandi bituma haza akuka keza ahantu biteye, ndetse tukanicara munsi y'ako igihe izuba ryabaye ryinshi.

Guhinga ni byiza; nko guhinga ibigori ukabihinga ubivanze n' ibindi bihingwa, nk' ibirayi kandi ukabihinga bitandukanye, ukanashiraho inyongeramusaruro kugira ngo bizaheke ibigori byiza kandi binini bifite n' ibibabi bitoshye, kandi ukazabisarura byumye kugira ngo bizabe bikomeye neza.

Ubuhinzi ni ingirakamaro, nko guhinga umuceri tukawitaho tuwubungabunga, tuwushyiramo ifumbire itandukanye, aho tugomba kujya tunawusura kenshi kugira ngo turebe uko uri gukura maze uzaduhe umusaruro ushimishije.

Imbuto ni nziza nko kuba dufite imbuto z'avoka, aho tuba tugomba kuzikura mu biti zeze neza tukazitara maze tukazijya kuko zifitiye akamaro umubiri gwacu.

Igihingwa cy'icyayi ni igihingwa ngengabukungu aho duhuriza ubutaka hamwe tukagihingaho iyo kimaze kwera turagisoroma dusoromera mu bitebo maze tukabyikorera tukajyana ku nganda zabugenewe zikagitunganya neza.

Imbuto ni nziza, nk'imbuto za avoka, aho tuzijanaga mu isoko, bakazipakira mu bikarito byabugenewe, kugira ngo bazigemure nko mu mahanga, kugira ngo zizavemo amafaranga, gafashaga abahinzi.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ariko bikaba byiza iyo twihurije hamwe kugira ngo tuzagere ku iterambere, aho duhuriraga ahantu twahinze tukahabagara neza dushiraho ifumbire, kugira ngo imyaka twahinze zizere neza, maze zizaduhe umusaruro gushimishije.

Icyayi ni igihingwa ngengabukungu. Aho tugitera twarahuje ubutaka, cyamara gukura tukagisoroma. Amababi yacyo tukayajyana mu nganda maze kikayatunganyamo icyayi cy'umwimerere, kandi abagisoroma babonamo amafaranga, iyo bari gukora maze bakiteza imbere, bakora ibikorwa byabo bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baje mu isoko baje kugura imbuto zitandukanye; amarongi ,ibinyomoro ,amatunda ,inyembe aho bazitwara ku dukoko tumeze neza kandi mu isoko hakaba hasakaye neza kugira ngo imvura itagwamo cyangwa se izuba rikavamo izo mbuto zitangirika maze bakaduha amafaranga twifashisha gukora ibindi bikorwa biduteza imbere.

Guhinga ni ingirakamaro，nko guhinga mu nzu zitwikiriye， aho duhingaga imyaka，tukazitaho neza， tukazirinda izuba riturukaga hanze， cangwa se imvura igwaga ari nyinshi，aho tuzibungabunga zigakura neza， maze zikazatanga umusaruro mwiza， kuko zibaga zarahinzwe ahantu zitaweho，zikundaga gusurwa kugira ngo bagenzure ukoze zikuraga.

Kurya imbuto ni ingirakamaro, nko kurya igipapayi aho tugikuramo intungamubiri nziza kandi zishimishije, aho zifasha umubiri wacu gukura neza dufite ubwenge ndetse n'igihagararo gishimishije.

Ubuhinzi ni ingirakamaro aho abaturage baturukaga imihanda zitandukanye bakazana amasuka barimo n'imihini, bagahurira hamwe bagahinga imirima zabo, bagateramo imyaka zitandukanye maze bakiteza imbere, kubera babaga bakorera hamwe mu makoperative.

Imyumbati ni igihingwa ngandurarugo， kuko gitumaga mu rugo tubona ibyo kurya， kandi imyumbati tuzibonagaho isombe， izindi tukazijana ku isoko tuzitwaye mu gitebo kiboshye neza kandi kiratuma tuyigezayo itangiritse.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza, aho bugomba gushyirwaho ifumbire mvaruganda kugira ngo bikure neza, aho abashinzwe umutekano nk'abasirikari, abapolisi bazanaga n'abayobozi batandukanye, baje kureba ukuntu dukoraga ubwo buhinzi n'ukuntu tubwitagaho.

Ubuhinzi bufite akamaro kanini cane cane nk'ubw'inyanya aho umuhinzi aba agomba kubwitaho kandi akabutera hafi y'amazi hegereye nk'ikiyaga ndetse n'ibiti bikikije ikiyaga, kugira ngo bizagire umusaruro mwiza.

Imbuto zidufitiye akamaro gatandukanye. Urugero nka avoka aho zidufasha kubona amafaranga twazijyanye ku isoko, ndetse tukazijyana no ku nganda kugira bakoremo ibicuruzwa bitandukanye. Bityo tugomba kuzitwara neza tukazica, tukazifunga mu bikarito tukazijyana ku isoko tuzitwaye mu buryo zitangirika.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga ibigori aho iyo bimaze kwera tubica, tukabirya, ibindi tukabijyana ku isoko, tukabigurisha maze ababikeneye bakabigura, bakaduha amafaranga twifashisha turi gukora ibindi bikorwa biduteza imbere.

Amaterasi g'indinganire ni ingirakamaro ku misozi miremire, aho gatumaga hatabaho isuri, aho abaturage bahuriraga hamwe bakagaca, baganateraho imirwanyasuri kugira ngo izaje igaburira amatungo gabo.

Voka ni urubuto gwiza kuko turucaga mu giti rumaze kwera tukarutara, gwamara gusha tukarujya kuko rufitiye umubiri wacu akamaro, kandi voka bazikoragamo amavuta bifashishaga mu guteka ndetse n'ayo bisigaga ku mubiri, kugirango uruhu gwacu rumere neza.

Ubuhinzi bw'imbuto ni ingirakamaro nko guhinga ibipapayi, aho tugomba kubisasira neza kugira ngo bikure neza ,maze tukanabifumbira bikazana imbuto nyinshi ku giti, aho iyo zeze tuzica tukazigurisha zimwe tukazirya maze umubiri wacu ukunguka intungamubiri nyinshi zikomoka ku mbuto z'ibipapayi maze ukagubwa neza.

Guhinga ni byiza aho tuba tugomba guhinga mu materasi y'indinganire kandi tugateramo imyaka zimwe kandi zisa ndetse hakaba harimo n'inzira z'abanyamaguru aho bazinyuragamo bari gusura imyaka canga se bagiye ahantu hatandukanye.

ubuhinzi, budufashaga kuzamura imibereho yacu ,nk'ibigori bihingwa bikera vuba bikadufasha kubona amafaranga iyo tubijanye ku isoko, kandi tubigaburiraga amatungo gacu kandi tukanabikuramo ibyokurya: nk'ifu dutekamo igikoma ,ndetse n'umutsima.

Ibijumba ni igihingwa ngandurarugo, aho iyo bimaze kwera tubikura tukabajyana mu ngo zacu turya, bimwe tukabyoza tukabijyana ku isoko kugira ngo ababikeneye baze kubigura, maze baduhehe amafaranga, nabo babone icyo kurya kugira ngo umubiri wabo ukore neza.

Ibijumba ni umusaruro mwiza, aho tubikuraga mu mirima zacu tukabiteka kugira ngo tubirye, ibindi tukabijana ku isoko kugira ngo abatabifite babigure baduhe amafaranga, hanyuma ibitoya tukabiha amatungo gacu kugira ngo gakure neza.

Ubuhinzi ni bwiza, ariko nk'iyo bigeze mu gihe cy'izuba tuba tugomba kuvomerera imyaka zacu, aho amazi tugakuraga mu bishanga cangwa se tugagakura mu bigega tuba twararetsemo ago mazi, kugira ngo tuzagifashishe izuba niriva maze imyaka zacu zere neza.

Ubuhinzi budufasha kuzamuka mu iterambere, nko guhinga ibigori, tubibagara tunabishyiraho ifumbire, kugira ngo bizabashe kuduha umusaruro ,turwanya ubukene ndetse n'inzara mu miryango zacu.

Ubuhinzi ni bwiza nko guhinga umuceri, aho tuba tugomba kugwubagarira, tugakuramo ibitumaga gwudakora neza, kugirango gwukure maze gwuzaduhe umusaruro mwiza bishimishije.

Ikawa n'igihingwa ngengabukungu aho tugisoromaga kimaze kwera, tugasoroma ibitumbwe byaco tukabijana ku isoko, tukabigurisha tukabona amafaranga go kwifashisha mu bindi bikogwa bidutezaga imbere.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga ibirayi, iyo bimaze kumera bikazamukaho gato, tuba tugomba kubitera imiti yicaga udukoko, kandi tugashiraho ifumbire tubibagarira neza, dukoresheje amasuka ndetse n'intoki kugira ngo bizakure, bizaduhe umusaruro gwushimishije.

Inyama ni ingirakamaro ku mubiri wacu nko kurya inyama z'inkoko, aho tugomba kubanza twayorora igakura hanyuma tukayibagana isuku, tukayikuraho amababa yose, ndetse tukayoza neza mbere yo kugira ngo tuyiteke ifite isuku kugira ngo itadutera uburwayi.

Guhinga ni ingirakamaro. Nko guhinga ibigori aho tubitera tukabifumbira neza maze bikazamuka, bigakora, bikazaduha umusaruro ushimishije .Byamara kwera tukabica tukajya tubirya ibindi tukabibika ,tukazabigurisha , bimwe tukabigira imbuto maze tukiteza imbere mu bindi bikorwa ,tubikesha wa musaruro twasaruye.

Ubuhinzi ni inkingi y'iterambere idufasha kuzamura imibereho yacu, nk'ubunyobwa aho mu gihe cy'isarura tugomba gukoresha amahema, tuburobanura dukuramo amabuye kugira ngo tuzabujyane ku masoko ndetse no ku nganda bumeze neza, bityo buzagere ku babukeneye butunganyijwe neza.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko gucururiza mu cyaro, inyanya tukazitwara mu gapaniye ,ndetse n'akabase tuba twatwayemo pavuro tukazitandika ku gafuka gasa neza, kugira ngo zitajyamo imyanda ,maze bakaza kutugurira bakajya kuziteka, kugira ngo bongere intungamubiri mu mubiri wabo ,kandi natwe tuzicuruza tubone amafaranga yadufasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi ni ingirakamaro nko guhinga ingano aho tugomba kuzifumbira neza maze zamara kuma tukazisarura tukazanika, maze tukazazirya aho zimwe tuzigurisha tukabonamo amafaranga twifashisha dukora ibindi bikorwa biduteza imbere.

Ubuhinzi ni bwiza nk'iyo tumaze gusarura imyaka tuba twarahinze, tuba tugomba kuyanika neza ku bwanikiro bumeze neza, kugira ngo zivirweho n'izuba zume, nidukenera kongera kuzihinga zizabe zimeze neza, nituzijyana hano ku isoko, zizaduhe amafaranga yo gukora ibindi bikorwa biduteza imbere.

Ituburiro ry'ibiti aho bahurizaga hamwe imbuto z'ibiti zitandukanye bagatuburamo ibiti byiza kandi bakabishyira mu dushashi kugira ngo bizamuke neza bikiri bito ,hakaba hakikijwe ibiti bihagaze ndetse n'imbaho kugira ngo abantu batazabyiba cyangwa se inyamaswa zikaza kuzikiniramo.

Ibigori ni igihingwa ngandurarugo aho iyo kimaze kwera neza tugisaruraga tukagishira mu bwanikiro busakaye kugira ngo imvura nizagwa itazabyangiza, kandi nidukenera guhinga tuzabone aho dukura imbuto nziza canga se nidukenera kubigurisha ku nganda zikoragamo amafu, zizabone ibigori byiza bitangiritse.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko gucuruza inyanya, ibitunguru, indimu, amaronji, ibirayi, ibijumba, karoti, imiteja, aho tubicururiza mu isoko ahantu hatwikiriye, kandi biri mu bikoresho biratuma zitangirika, maze abantu baturutse imihanda itandukanye bakaza kubikora bakajya kubiteka, natwe tukabona amafaranga twebwe tuba tubicuruza, tukayifashisha mu bikorwa biduteza imbere.

Umusaruro g'umuceri aho ugweze gumanikwa ku ibiti kandi gutwikiriye mugihe ugundi gukiri mutoya, guba gugomba kubagarwa kugirango nago guzakure, guzatange umusaruro gushimishije.

Amasaka gatoshe gari hafi kwera ndetse n'agandi gari iruhande gago gakiri matoya gakaba garafumbiwe neza kandi gakaba gashishe gateye ku murima munini kandi gurambuye.

Umuceri guri hafi kwera, guterwaga mu mazi kugira agufashe gukora neza, maze uzatange umusaruro gushimishije, gungure nyirago waguhinze.

Amajeri gasaruwe neza, bakagahura, bakagagosora, bakagakuramo imyanda yose, kugira ngo nibakenera kugatera, gazabe gameze neza ndetse n'abazagagura bazagagure garatunganyijwe neza.

Inzuzi ni zimwe mu mbuto zivaga mu gihaza iyo kimaze kwera, aho bazikuragamo bakazishyira ahantu bakazumisha, kugira ngo bazazishire mu biryo cyangwa se bakazibika bakazongera kuzitera zikazavamo ibindi bihaza, kugira ngo tuzabirye.

Imisogi z'ibishimbo mibisi zivagamo intonore, aho bazitekagamo ibiryo kugira ngo babirye izindi bakazijana ku isoko, kugira ngo abatazifite bazigure na bo babone ico kurya maze abajijanye nabo babonemo amafaranga.

Amahundo g'amasaka atanu gari ku meza aho gamaze kuma, bakaba bagifashishaga bari guhinga cyanga se bakayifashisha bakoramo ifu bifashishaga bari kwenga, cyangwa bagaseshamo ifu yo gutekamo igikoma.

Guhinga ni ingirakamaro nko guhinga uburo, aho iyo bweze turabusarura, tukabwanika, maze tukabujyana ku isoko, ababukeneye bakabugura bakaduha amafaranga twifashisha twiteza imbere. Kandi uburo babusyamo ifu batekamo igikoma, bityo ukinyoye umubiri ukamererwa neza, agashisha yumva.

Ubuhinzi ni inkingi y'iterambere, nko guhinga umuceri kubera ko umuceri bawuhinga mazi kugirango ubone uko ukura kandi vuba, kugira ngo uwawuhinze azabone umusaruro mwiza.

Ibigori ni igihingwa ngandurarugo aho tugicaga kimaze kwera tukabishira mu bitebo, kugira ngo tubijane mu rugo tubiteke cangwa se tukabijana ku isoko, kugira ngo abatabifite baze kubigura babone ico kujya, natwe ibindi tukabiteka mu ngo zacu kugira ngo tugubwe neza.

Umusaruro g'ubunyobwa ni mwiza iyo rwatunganyijwe neza bakagujana ku isoko kugira ngo bakoremo ifu y'ubunyobwa ndetse bakoremo n'amavuta go guteka ibiryo bitandukanye.

Uruhererekane rw'uburyo ibishimbo babiteraga kuva munsi wambere kugeza bimeze. Uko bigenda bikurikirana kugeza igishimbo gisohoye umutwe hejuru yubutaka, giturutse munsi umwo bagitereye.

Ibigori bivagamo imbuto nziza iyo twabisaruye bimaze kuma neza ,maze tukabibikana isuku Kandi tukabibika ahantu bitazangirika kugira ngo nitwongera kuja gutera, tuzabone aho dukura imbuto zidafite udusimba canga se zitangiritse.

Ibishimbo ni igihingwa ngandurarugo aho tubisaruraga mu mirima zacu tukabibika neza igihe co guhinga cagera tukabirobana tukazaja kubitera ahantu twahinze kugira ngo tuzabone umusaruro mwiza ibindi turabitekaga tukabirya ibindi tukabijanana ku isoko ababikeneye bakabigura nabo bakaja kubija bakaduha amafaranga twifashishaga mu bindi bikogwa.

Umusaruro gw'ibigori ni ingirakamaro iyo guhurijwe hamwe mu bwanikiro gwubatse neza, kandi busakaye, kugira ngo imvura itagwa ikabyangiza, cangwa se bikavigwa n'izuba ryinshi, kugira ngo abazaza babishaka bazabibone mu buryo bworoshe, ndetse n'abazaza kubigura babijanye ku nganda, bazabibonere hamwe ari byinshi cane, baje gutunganyamo ibindi bivaga mu bigori.

Ikusanyirizo ry’imyaka ni ryiza, nko gukusanya ingano, aho tugomba kuzishira ahantu hamwe, tukazibungabunga, hubakishije imbaho kandi hasakaye neza, kugira ngo tuzirinde izuba ryinshi n’imvura, maze abazikeneye baze kuzifata, bazaje kuzihinga mu mirima yabo.

Umusaruro gw'ibigori ni mwiza cane, iyo bimaze kuma turabifataga tukabihungurira mu bikoresho bimeze neza nk'ibase kugira ngo bitajamo imyanda maze tukabijana ku isoko kugira ngo tubonemo amafaranga go kwifashisha mu bindi bikogwa bidutezaga imbere, ibindi tukabijana ku mashini zibisyaga zigakoramo ifu dutekagamo umutsima cangwa se igikoma maze tukamera neza.

Iyo twahinze imyaka zacu zitandukanye, iyo zimaze kwera tuba tugomba kuzikusanyiriza hamwe tukazishira mu mifuka, tuzipakira neza, tukazitondeka kugira ngo tuzazijane ku masoko tuzikuye ahantu hamwe bitworoheye, cangwa se abazaga baje kuzigura bazazibonere hamwe bitabagoye, maze baduhe amafaranga twifashishaga twiteza imbere, dukora ibindi bikogwa.

Soya nigihingwa ciza iyo gihinzwe ahantu hahurijwe hamwe kuko kizamura umusaruro iyo citaweho neza. Soya ivamo ibiryo by'amatungo ndetse n'amafu bashigishashamo igikoma abantu banywaga kandi itanga n'amafaranga kwisoko.

Iyo twahinze umusaruro gukera neza, tuguraga imifuka maze tugashiramo ibyo twejeje, maze tukabihuriza hamwe kugira ngo abazabikenera bazaze babigurire ahantu hamwe, cyangwa se nidukenera kubigurisha imodoka zizaze zibijane, aho habaga hari abakozi bashinzwe kwikorera izo mifuka zirimo izo myaka bazipakira cyangwa se bazipakurura.

Ubuhinzi bwa kijambere, aho nk'umuceri bawuhingaga mu bishanga bifite amazi kugira ngo guzabashe gukura neza gutange umusaruro mwiza kandi mwinshi ku isoko, abaturage babone ibyo kurya ndetse n'ibyo kugurisha.

Guhinga duhuje ubutaka tugatera nk'ibigori maze tukabibagara neza tukabifumira bikazamuka bishishe bitumaga tubona umusaruro mwiza, kuko tubaga twarahuje ubutaka kandi tukabyitaho kugira ngo tuzabone umusaruro ushimishije, maze tuzahaze inganda tubone n'ibyokurya mungo zacu.

Guhinga ni ingirakamaro nko gutera inzuzi z'ibihaza, aho tuzikura mu bihaza byamaze gukura neza, maze tukabitera mu mirima yacu tukabona umusaruro mwiza. Kandi inzuzi zibihaza zivamo ifu bashira mu biryo maze bikaryoha.

Amajeri ni kimwe mu bihingwa by'ubuhinzi, aho bagasaruraga garumye neza bakagagosora, bakagakuramo imyanda zose, kugira ngo bazagajane ku isoko gafite isuku, abazagagura bazabyishimire maze baje kugarya cyangwa se bagatere mu mirima zabo.

Imyaka ni ingirakamaro ku buzima bwacu aho nk'ibishyimbo iyo bimaze kwera tubisarura tukabishyira mu mifuka yabugenewe, kugira ngo abazaza baje kugura bazasange bimeze neza, bitaramunzwe n'udusimba maze bakajya bakaduha amafaranga twifashisha dukora ibindi bikorwa.

Guhinga ni ingirakamaro nko guhinga amasaka, iyo amaze kwera turayasarura, tukayaca, tukayanika kugira ngo yume neza, maze nitwongera guhinga tuzabone imbuto yo gutera ayandi tukayagurisha, amwe tukayengamo inzoga ndetse n'ubushera kugira ngo tujye tubinywa.

Ubuhinzi ni bwiza, nk'iyo twahinze ibigori tuba tugomba kubisarura byumye, tukabishira ku mahema bikuma, twarangiza tukabipakira mu mifuka zabugenewe kugira ngo bitangirika, maze tukabijana ku masoko ibindi tukabijana mu ngo zacu tukabijya.

Umusaruro w'ibigori wasaruwe， uhurizwa hamwe mu bwanikiro kugira ngo bagurinde kwangirika bya hato na hato， kugira ngo bazagugurishe gutange umusaruro n'abagukeneye bagubone ku buryo bworoshye.

Ubworozi ni bwiza, nko korora ingurube aho ziduhaga ifumbire, inyama cangwa se amafaranga, tukazororera mu biraro byubatse neza, byubakishije isima, imbaho ndetse n'ibiti, kandi bisakaye neza kugira ngo zibe ahantu hafite isuku.

Korora ni ingirakamaro ,nko korora ingurube aho iyo ibyaye, ibyara utwana twinshi kandi tukorora mu biraro byubatse neza ,kandi bisakaye ,aho iyo yagize ikibazo duhamagara abaganga b'amatungo, bakaza kuzivura cyangwa se bakazikingira kugira zitarwara ,bambaye amataburiya yabugenewe maze zikabaho zimeze neza, kuko zitahura n'uburwayi bazikingiye abaganga bazo.

Abavuzi b'amatungo ni ingirakamaro kuko baza kutuvurira amatungo yacu yarwaye, aho bayatera inshinge zirimo imiti cyangwa se bakayakingira kugira ngo atazarwara indwara. Bityo akabaho neza akaduha umusaruro ushimishije.

Abavuzi b'amatungo ni beza kuko batuvuriraga amatungo gacu nk'imbwa baba bagomba kuza bakaziduterera inshinge， kugira ngo zibeho neza bakaza bambaye imyenda zabugenewe， uturindantoki，itaburiya ndetse n'agapfukamunwa， kugira ngo zitabateza indwara cangwa se bagakomereka.

Ubworozi ni bwiza, nko korora inka, aho ziduha umusaruro mwiza, ndetse tukazijyana ahantu haba ubwatsi, ndetse n'amazi yo kunywa, kugira ngo zibashe gukura neza, kandi zitanga umusaruro kuko ziba zifite ahantu heza ho kurisha mu misozi ndetse n'imibande myiza.

Ubworozi ni bwiza iyo amatungo yacu yarwaye duhamagaraga abavuzi b'amatungo bakaza kuyavura, kugira ngo aticwa n'ubwo burwayi, cyangwa se agapfa abantu bakayarya. Kandi agomba kubanza yapimwa n'abantu babyigiye, babifitiye ubwo bumenyi, nk'abavuzi b'ayo matungo.

Korora ni ingirakamaro nko korora inka, aho tugomba kuzororera mu biraro byubatse neza kandi bisakaye, aho dutumizaho n'abavuzi b'amatungo bakaza kuziduterera inshinge bazivura, kugira ngo zitazarwara uburwayi maze zigapfa tugahomba.

Ubworozi ni ingirakamaro nko korora inka kuko ziduha ifumbire dufumbiza imyaka yacu, amafaranga iyo twazigurishije, amata iyo ziri gukamwa ndetse n'inyama igihe twazibaze; bityo tugomba kuzororera ahantu hazitiye neza kugira ngo zitajya ku gasozi zikangiza imyaka tuba twarahinzemo

Ubworozi ni bwiza, nko korora ingurube bitumaga umuntu yiteza imbere vuba, kuko ibyaraga ibyana byinshi kandi tukayororera mu kiraro kinini, cyubakishije ibiti bihagaze ndetse n'imbaho, kugirango ibashe kuguma mu kiraro itazerera ku gasozi.

Kugira ibyanya bikomye byahariwe inyamaswa ni byiza cyane, nk'ibishanga bibamo amazi, aho bikunda kubamo nk'ibishuhe bikunda amazi, aho ba mukerarugendo babisura bagatanga amafaranga, igihugu kikayifashija cyubaka ibikorwaremezo bitandukanye biduteza imbere.

Ibyanya byahariwe inyamaswa ni byiza, n'iyo tubisuye dusangamo inkende aho zikundaga kwirira imbuto zimeraga mu ibyo biti, aho zagenewe kuba, kuko ari byo bizitungaga maze ba mukerarugendo baza kuzisura, bagatanga amafaranga binjirizaga igihugu bakoramo ibikogwa bitandukanye.

Ni byiza ko igihugu cyacu cyatekereje kugira ibyanya byahariwe inyamaswa, kubera ko zikurura ba mukerarugendo baje kuzisura, ndetse no gusura inyamaswa zibamo, ibiti n'ubwoko bw'ibyatsi bibamo, urugero rw'inyamaswa basura hari mo nk'isatura, aho ikunda kwirira ibyatsi kandi ikunda kugira amahoro, ikirinda gusagarira n'izindi nyamaswa, igakunda no kwirira ibiti.

Tugira ibyanya bikomye byahariwe inyamaswa ni byiza kuko dusangagamo inyamaswa zitandukanye: nk'impara, imparage, aho ba mukerarugendo bazaga kuzisura bagatanga amafaranga bityo igihugu kikayifashisha cyubaka ibikorwaremezo nk'imihanda zitandukanye amazu, n'ibindi...

Ikigona gihagaze ku ishami ry'igiti kandi kikaba kigizwe n'amabara abiri aho kiba gifite: ay'umukara ndetse n'ibara ry'umweru kandi kikaba kigiraga n'amababa agifashaga kuguruka kugira ngo kijye gushaka umuhigo.

Inyoni yo mu gasozi ikaba ijyaga udusimba tutwoneraga imyaka, kandi ikaba itubyutsaga mu gitondo, kandi ikaba ikundaga gusurwa na bamukerarugendo maze bagatanga amadovize akinjiriza igihugu.

Kugira ibyanya byahariwe inyamaswa ni ingirakamaro kuko abakerarugendo, bazaga kuzisura bagatanga amadovize. Binjirizaga igihugu maze kikayakoresha cyubaka ibikorwaremezo nk'amashuri, ibitaro, amavuriro ndetse n'ibindi kandi bitumaga zibaho zitekanye kuko zidahuraga na ba rushimusi.

Inyoni ni nziza aho zikururaga ba mukerarugendo bakaza kuzisura，mu byanya byahariwe inyamaswa， ndetse inyoni zinarya udusimba twangiza imyaka zacu，kugira ngo tubone umusaruro mwiza，kandi inyoni ziratubyutsaga mu gihe ca mugitondo.

Kugira ibyanya byahariwe inyamaswa ni ingirakamaro aho inyamaswa zimwe na zimwe zibaga bamukerarugendo bakajya baraza kuzisura akaba arimo bazisanga bagatanga amafaranga igihugu kifashishaga kiri kubaka ibikorwaremezo bitandukanye kugira ngo tuzamuke mu iterambere.

Kugira ibyanya byahariwe inyamaswa ni ingirakamaro kuko bitumaga zibona aho kuba n'ibyo zijya, kandi ba mukerarugendo barazisuraga bakishura amadovize ginjirizaga igihugu kikubakamo ibikogwaremezo nk'amashuri, imihanda ,ndetse n'ibindi bikogwa bifashaga abaturage.

Inyoni ni ingirakamaro kuko zisugwaga na bamukerarugendo mu byanya byahariwe inyamaswa, bakishura amadovize gafashaga Igihugu kubaka ibikogwa remezo nk'amashuri. Kandi inyoni ziryaga udusimba turyaga imyaka zacu.

Agaca ni imwe mu nyoni zitubangamira zidutwarira amwe matungo yacu: Nk'inkoko, inkwavu, aho kaza hafi y'urugo kagahagarara mu ibiti gateze amatungo yacu. Kandi agaca karya inyoni zimwe na zimwe ntoya zidufashaga kutubyutsa buri mu gitondo.

Kugira ibyanya byahariwe inyamaswa ni ingirakamaro, nk'aho inyoni zibona ibiti zikarikamo icyari, maze zikabyara utwana twinshi kandi inyoni zirya udusimba tutwonera imyaka ndetse na ba mukerarugendo barazisura bagatanga amafaranga, Igihugu kikayifashisha cyubaka ibikorwaremezo bitandukanye.

Pariki y'inyamaswa aho igizwe n'umukenke aho rushimusi yashakaga, kwataka inzovu ngo ayikure amahembe, ariko inzovu ikamunesha akananirwa kuyikura agomahembe.

Inyamaswa ni nziza nk'umusambi aho ukunda kwibera mu gishanga, aho ubonera ibyokurya bitandukanye bivaga mu icyo gishanga, aho kiba kigomba kuba gikomye kugira ngo zitazabura aho ziba ni byo zirya, kandi izo nyoni zikurura ba mukerarugendo baza baje kuzisura.

Ingagi zigenda mu byatsi byumye. Hafi y'amazi hagaragara ibiti zitembera kandi zishimye zigendana kandi zikina.

Mu byanya byahariwe inyamaswa dusangagamo nk'inkende zikundaga kurya imbuto ziba zahaje mu biti ,kandi n'inyamaswa zikundaga gusabana cane na ngenzi zazo.